Sale y'ubukwe iteraniwemo abantu b'ingeri zose abagore, abagabo bigaragara ko ari abari mu bukwe, ku meza hagiye hateretseho amaji y'inyange n'amazi, imbere yabo hahagaze umusore w'inzobe wambaye ishati y'umweru hasi arakenye akaba afite umuheto mu ntoki.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho bamanitse icyapa gishushanjeho abantu, cyaditseho ''gira ubuzima'' hanze hari kandagira ukarabe, n'intebe zo kwicarwaho n'abaje bahagana. Amabaraza hicayemo abantu.